Icyumba giteye amarangi y'ubururu na parafo y'ubururu hicayemo abantu, hari umugabo uhagaze inyuma ya kamera ari gufotora, undi yambaye agapira k'umutuku, harimo uwambaye ak'umweru, harimo uwambaye ishati ijya gusa n'umweru, harimo uwambaye agapira kajya gusa n'ubururu.

Umugabo wambaye ipantaro ijya gusa n'umukara yatebeje afashe imikoro mu ntoki yambaye n'amadarubindi iruhande rwe hari icyapa cy'ubururu cyanditseho ngo Imbuto foundation.

Icyapa cyanditseho muri Repubulika y'u Rwanda, intara y'iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare, buramenyesha abaturage bose bo ku rwego rwo gusoza umwaka no gutangira undi, uyu munsi ku wa mirongo itatu n'imwe mu ijoro rishya, tariki ya mbere rwa makumyabiri na gatanu, hateganyijwe igikorwa cyo guturitsa urufaro (fireworks) kibera muri hoteli ya EPIC.

Icyumba kirimo tapi y'ubwatsi, hari umugabo wambaye agapira k'umweru, uri gukoma ingoma, imbere ye hatetse ingoma eshatu, muri iki cyumba, harimo ababyinnyi bari kubyina amaboko bayashyira, impande zose, harimo n'intebe ziteye, imbere ku ruhimbi.

Mu cyumba gitatsemo ibishushanyo bitandukanye, harimo iby'izuba, muri iki cyumba harimo abantu bambaye imyenda yiganjemo iy'umweru, imbere yabo hari ababyinnyi bari kubyina neza amaboko yabo bayashyira iruhande, bayashyira imbere, imbere yabo hicaye abantu bigaragara ko ababyinnyi bari kubyina imbere y'abantu.

Inzu ifunguye umuryango, inzu inzugi zayo ni iz'ibiti, mu nzu ni umwijima ntabwo hari kugaragara, hagati mu muryango hari igiti kizamuye giteretseho akantu kameze nk'ubwato ariko gatoya n'iruhande rwakwo hateretse inkoni.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, kuri iyo nzu kuri iyo nzu hejuru ku mabati hari abagabo babiri hari uri munsi y'imirasire, hari n'uri hejuru y'imirasire bari kuyikora, iruhande rw'iyo nzu hari ibiti mbere y'ibyo biti birebire hari ikiyaga.

Umuntu uhagaze ku rukuta afashe utuntu tw'umweru mu ntoki, afashe ku rutsinga, yambaye imyenda yanditseho zeru mirongo icyenda na gatanu, handitseho nanone ngo Rwanda Energy Group REG.

Ni ahantu hari insinga nyinshi zinyuranyemo zigiye zifashe ku bintu bimwe by'umweru, ibindi by'umukara, hariho abantu batandatu, harimo uri hejuru abandi bari hasi, bari kumuhereza igitsinga kinini cy'umukara, bigaragara ko ari abakozi b'amashanyarazi.

Umuhanda muremure, uwo muhanda ku ruhande hari amapoto y'amashanyarazi, imbere hari abantu bahagaze batari kugaragara neza, iruhande rw'uwo muhanda hagiye hari ibiti.

Abagabo bahagaze iruhande rw'igishushanyo, icyo gishushanyo cyanditseho ngo gira ubuzima, gishushanyijeho inzu y'ubururu, ku ruhande handitse amagambo menshi, bigaragara ko iki cyapa kiba kiri kurangira abantu aho iyi nzu ikorera.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umuntu utwaye moto, yambaye ikasik'umutuku, moto ye ihetse ibintu byinshi cyane, kuruhande rw'umuhanda, hari amazu menshi hariho inzu yanditseho ngo ''Rwanda''.

Ahantu hari ibisima ku muhanda hari ahanditse EN mirongo itandatu, ku cyapa, hari ipoto rishinze hasi ry'umukara, hejuru y'Umweru, imbere yiryo poto hariho inzu.

Muri sitade harimo abakinnyi bari gukora siporo bambaye imyenda ijya gusa na oranje n'akabutura y'umukara, hakurya hari sitade isakaye uruhande rumwe, intebe zazo ziri mu mabara y'umuhondo n'ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande hari abagenzi bari kugenda n'amaguru, mu muhanda hagati harimo moto ebyiri ziriho abantu, ku ruhande y'imihanda iburyo hari abamotari baparitse, inyuma y'abamotari hari imodoka iri gusa n'umweru iri guturukayo.